Abantu batandukanye abagore, abagabo, bakaba bahurijwe hamwe no kwiga ku buzima ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo barusheho gusigasira ubuzima.

Umwana mutoya cyane, afashe kuri kandagira ukarabe ubona ko arimo aroga intoki, azikorera isuku kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda uturuka ku isuku nke.

Igikorwa remezo leta yubakiye abaturage, akaba ari igikorwa cya robine hari umuntu waje kuvoma amazi ariko mbere yabanje gusukuravyo agiye kuvomeramo kugira ngo atware amazi asukuye.

Icyumba kirimo abantu babiri, hari mudasobwa zigaragaramo, hari imashini zirimo, hari insinga zitandukanye, biragaragara ko ari mu bitaro kwa muganga ahatangirwa ubufasha ku barwayi.

Abantu benshi batandukanye bari mu nama yabahurije hamwe, bari kwiga ku buryo batera inkunga ibikorwa by'ubuzima, bityo ubuzima bukarushaho gusigasirwa.

Abantu bicaye, imbere yaho hateretse uducupa tw'amazi, hari umugore ufashe indangururamajwi mu ntoki, asa naho ari gutanga igitekerezo cye.

Umugore uri kuvoma amazi aho ari kuvoma akaba ari igikorwa remezo leta yubakiye abaturage kugira ngo babone amazi meza kandi afite isuku bibarinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ibiganza by'umuntu uri gukarabira kuri kandagira ukarabe, iruhande rwe hari isabune akaba ari gukaraba kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'isuku nkeya.

Umugabo ndetse n'umwana bahuje ibiganza, hirya hari abandi bana ndetse n'abandi bantu bakuru bicaye ubona ko ari igikorwa bitabiriye bajemo.

Abantu benshi batandukanye, bicaye ahantu mu cyumba. Bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru, bakaba bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo babubungabunga.

Abana bari ahantu mu cyumba, ubona ko ari mu ishuri, bakaba bishimye cyane, urabona ko nta kibazo bafite, babiri muri bo bamanitse ikiganza hejuru.

umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ari gukaraba kuri kandagirakarabe ari gukora isuku y'intoki, isuku yasobanukiwe ko ari ingenzi ku buzima bw'umuntu.

Aha ni ku ivomero hari abantu benshi batandukanye, hari umugore uri gupompa amazi kugira ngo ajye mu ijerekani, ijerekani ikaba ifashwe n'umwana hakaba hari n'izindi ku ruhande.

Abanyeshuri batandukanye bari ku ivomero, bafite indobo ziri mu ibara ry'umuhondo bari kuvomeramo, bakaba bashaka gukora isuku kuko basobanukiwe akamaro kayo.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bafite impapuro mu ntoki bicaye ku ntebe bahanze amaso imbere, basa naho hari ingingo runaka bari kwigaho.

Abana batatu bari kuvoma amazi ku mugende, gusa mu bigaragara aya mazi si meza ashobora gutera indwara zijyanye n'umwanda, ni byiza ko mbere yo kuyakoresha babanza bakayateka.

Mu cyumba kwa muganga, hari umugore bari gupima ngo bamenye uko ubuzima bwe buhagaze. Hakaba harimo abaganga babiri, undi umwe ahagaze afashe akamverope mu biganza bye.

Iki ni igikorwa remezo leta yegereje abaturage aho baza kuvomera amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, hakaba hari abantu benshi ndetse n'amajerekani menshi.

Abana babiri bamaze kuvoma amazi mu ndobo iri mu ibara ry'icyatsi. Bakaba bari gukorerana bagiye gukora isuku aho batuye ndetse n'imyambaro yabo.

Igikorwaremezo leta y'u Rwanda yubakiye abaturage, hari umugore uri kuvomera mu idomoro. Akaba agiye gukoresha aya mazi mu bikorwa bitandukanye byo kwisukura.

Iyi ni robine abana babiri bari kuvomera mu ndobo, ubona ko bafunguye amazi menshi. Akaba ari igikorwa cyo gukora isuku, na bo bajyanye amazi yo gukora isuku.

Aha ni kwa muganga hari abantu benshi batandukanye. Hari umubyeyi uri imbere ufite ifishi y'umwana, bisa nk'aho yaje kumukingiza; barebe niba nta ndwara afite cyangwa se bamukingire n'izindi.

Umubyeyi ukikiye umwana mutoya, akaba ari kumwe n'umuganga, aho uyu muganga arimo aragerageza gusuzuma uyu mwana ngo arebe ikibazo yaba afite, mu bigaragara ni uko uyu mubyeyi yaje agana umuganga kubera ko uyu mwana we ashobora kuba arwaye.

Umwana w'umukobwa wishimye uri koga intoki akoresheje kandagira ukarabe munsi y'iyo kandagira ukarabe hari ibase iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana muto w'umukobwa usutamye imbere ya robine, aho arimo arakaraba intoki. Imbere ye hari amabido agiye atandukanye, harimo iy'ubururu ndetse n'andi abiri y'umuhondo. Biragaragara ko uyu mwana yishimye.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu mu cyumba iruhande rw'abo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bari kwiga ku buryo basigasira ubuzima bukarushaho kugenda neza.

Iri ni ivomero rusange, rikaba ari igikorwaremezo Leta yubakiye abaturage kugira ngo bajye babona amazi afite isuku, bityo birinde indwara zituruka ku mwanda.

Umugabo ndetse n'abagore babiri, bari guterura imifuka bayivana ahantu hamwe bayijyana ahandi. Hakaba harimo ibyo kurya bari bufashishe abantu bafite ibibazo by'inzara.

Abantu baje kuvoma amazi kuri robine, ubona ko amajerekani yabo ateretse imbere. Iyi robine akaba ari kimwe mu bikorwa leta y'u Rwanda yegereje abaturage.

Aha ni ku ivuriro hari abarwayi batandukanye, muganga afite ibikoresho yifashisha ari gusuzuma abarwayi kugira ngo amenye ikibazo bafite abafashe.

Iki ni igikorwa remezo Leta yashyiriyeho abaturage kugira ngo babone amazi meza, hari umwanawa uri gukaraba mu ntoki, kugira ngo yirinde umwanda uterwa n'isuku nke.

Umuganga wambaye uturindantoki, yambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru afite na baje mu ijosi, hirya ye hari n'undi musore wambaye ijire.

Umwana uri kuvoma amazi yo mu mugende, amazi akaba adasa neza rwose, ashobora gutera indwara zijyanye n'umwanda. Ni byiza ko mbere yo kuyakoresha abanza akayateka.

Igikorwa cyo guha abana igikoma, akaba ari igikorwa cyashyizweho na leta y'ubuzima ifatanyije na minisiteri y'ubuzima kugira ngo barwanye imirire mibi mu bana.

Iki ni igikorwaremezo Leta yegereje abaturage kugira ngo babone amazi meza kandi asukuye, ikindi kandi barimo barapompa kugira ngo bibafashe kubona amazi meza.

Icyumba kirimo abantu benshi bagiye batandukanye: abagabo ndetse n'abagore, harimo abambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu, hasa n'aho ari kwa muganga, hari ibyo bari gusuzuma.

Abantu bari mu nama, bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo babungabunga ubuzima, hari umugabo uri imbere akaba ari kubagezaho ijambo.

Ikigo nderabuzima cyangwa se ibitaro biri ahantu hitaruwe, hakaba ari aho abantu bajya bagahabwa serivisi z'ubuzima bakavurwa n'indwara zitandukanye.

Ikirango kiriho umubumbe hakaba handitse amagambo mu rurimi rw'icyongereza, mu kinyarwanda bikaba bisobanura ikigo cyita ku buzima ku isi hose.

Iki ni igikorwa remezo leta yubakiye abaturage kugira ngo bagerweho n'amazi meza kandi afite isuku hari abantu baje kuvoma ayo mazi kugira ngo baajye kuyakoresha ibikorwa bitandukanye nko guteka no gukora isuku.

Umwana w'umuhungu wambaye impuzankano ye akaba yatebeje, afite ibirahure bibiri birimo amazi, inyuma ye hari ikinogo kiretsemo amazi. Inyuma y'icyo kinogo hakaba hari utundi twana twinshi tuhahagaze, aho hantu bari hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Ni abantu benshi batandukanye harimo abagabo, harimo abagore, hari abari mu itente basa n'aho baje mu nama bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima, hirya yabo hari inyubako nayo iriho icyapa, hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Utuzu tubiri twubatse ahantu, biragaragara ko ari ku bwiherero bufasha abantu igihe bahuye n'ikibazo cyo mu nda kugira ngo bajye kugikemura, aha harabafasha.

Abantu benshi cyane batandukanye, bahujwe n'igikorwa cyo kwiga ku buzima, uburyo ki babungabunga ubuzima bwabo, hari ihema ndetse n'idarapo rishinze aho ngaho bari.

Umuganga uri gusuzuma uko umwana ameze, ubona ko ari kumubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo amenye ikibazo afite. Iruhande hari n'abandi bantu na bo bicaye.

Agatanda kubatswe gakoreshejwe ibiti ubona ko gateretseho amasahani. Aka gatanda kifashishwa mu gutuma amasahani yumuka igihe uyatereretseho umaze kuyoza.

Abana batandukanye; batatu ubona ko bishimye mu maso habo, bari gukaraba ku ivomero kandi bari kugira isuku y'umubiri. Isuku ni nziza ni byiza ko tuyigira mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye.

Abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, bari guterura imifuka iremereye cyane, bayivana hamwe bayijyana ahandi.

Umuganga uhagaze imbere y'abantu benshi, ari kubaganiriza uburyo barinda ubuzima bwabo, bukagenda neza, urabona ko harimo abantu benshi kandi bakurikiye.

Abantu batandukanye, abasore, inkumi, abagabo, bafashe icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho unicef, akaba ari umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Imodoka yo mu bwoko bwa ambiranse, iri ahantu aho hantu na ho hari abantu benshi imodoka ikaba ifasha mu butabazi bw'ibanze igihe umuntu agize ikibazo agomba kujyanwa kwa muganga.

Abantu benshi bahagaze ahantu hameze nko mu ishyamba, bakaba ari abagabo ndetse n'abagore. Abantu b'imbere bafite ibipapuro byanditseho amagambo ariko atagaragara neza. Mu bigaragara ni uko hari igikorwa runaka bari bajemo hanyuma bagafata ifoto y'urwibutso.

Umwana mutoya ari gukaraba intoki, akaba azi neza akamaro ko gukaraba intoki kuko yasobanukiwe ko birinda isuku nkeya bikaba byarinda n'indwara iterwa n'umwanda.

Abantu babiri baje kuvoma amazi, bisa n'aho ari igikorwa remezo Leta yegereje abantu kugira ngo babone amazi meza, abafashe mu kugira isuku.

Abantu benshi batandukanye bambaye amabaji mu ijosi, harimo n'abambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hari icyapa.

Umwana ufashe igipara kirimo amazi, arimo arakaraba mu ntoki, bigaragara ko ari gukora isuku mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'isuku nke.

Abantu batandukanye bahuriye mu cyumba, barimo baraganira ku buzima ndetse barebera hamwe n'uburyo bakomeza kubusigasira bukarushaho kugenda neza bityo ubuzima ku isi hose bukaba bwiza ku bantu bose.

Umugabo uhagaze imbere, iruhande rwe hari intebe nyinshi zitandukanye, akaba ari mu nama, bari kwiga ku bijyanye n'uburyo batera inkunga ubuzima.

Umugore bari gutera urushinge ubona ko ashinyikirije cyane ashobora kuba atinya urushinge, bose bambaye udupfukamunwa abo bateraniye aho.

Igikorwa remezo leta yubakiye abaturage kugira ngo bajye babona amazi meza kandi afite isuku, ni abantu baje kuvoma ayo mazi kugira ngo na bo bajye kuyifashisha mu bintu bitandukanye.

Ni kwa muganga, muganga ari kwereka abantu babiri umugore umwe aratwite ndetse n'umugabo we begeranye ari kubereka indyo bagomba kurya kugira ngo ubuzima bw'umwana batwite bugende neza.

Umwana ubona ko yishimye cyane wambaye umupira usa nk'iroza aho iruhande rwe hari umugabo wambaye akajiri ndetse n'umupira wenda gusa ubururu umukoreye akabido kanditseho unicefu unicefu akaba ari ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima bw'abana.

Abantu baje ku kigo nderabuzima baje guhabwa ubufasha bujyanye no gukingirwa indwara cyangwa se kuvurwa igihe bumva batamerewe neza mu mubiri.

Abantu benshi batandukanye abagabo, bagore. Bari inyuma yinyubako hejuru yanditseho ijambo rivuga ngo "Gira ubuzima" bigaragare ko ari nko ku ibitaro.

Aha ni kwa muganga hari abantu benshi batandukanye, bambaye udupfukamuwa, hari umugabo uhagaze imbere ye ku meza hateretse mudasobwa hari n'undi ku ruhande ufite impapuro ari kwandika.

Umugore ufite ikibazo cyo mu mutwe. Hakaba hari abantu bamushungereye. Hakaba hari n'icyapa cyanditseho ebola. Ebola akaba ari icyorezo cyica abantu.

Abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho twite ku buzima bw'umubyeyi utwite, ni byiza ko umubyeyi utwite yitabwaho.

Abana benshi batandukanye, bateze intoki kuri robine, bari gukaraba intoki kugirango barwanye isuku nkeya cyangwa se umwanda ushobora guturuka mu bintu baba bafashe.

Abagore bahuriye ahantu mu cyumba gituje cyane, bari kuganira ku buzima bitewe n'uburyo bakomeza kububungabunga hirindwa ibyabuhungabanya.

Abantu benshi batandukanye, bamwe bicaye ku rubaraza abandi bicaye ku ntebe, basa naho hari serivisi baje kwaka aho hantu.

Abana benshi cyane bari ku ivomero cyangwa se kuri robine aho bari gukaraba intoki, bigaragare ko batojwe kugira isuku n'ingenzi twese tuyishyira imbere.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, akaba ari kuri kandagira ukarabe aho ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda umwanda ndetse n'indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi batandukanye bari mu cyumba baricaye, harimo abagore, harimo abagabo, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, bari kwiga ku ngingo zitandukanye zerekeranye n'ubuzima.

Umuganga wambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu, afashe igishushanyo kiriho abana babiri ari kwereka umugore umuhagaze iruhande, bigaragare ko ari kumwereka uburyo abana bameze neza bakura.

Icyapa kiriho umugabo ndetse n'ikirangantego cya RBC, akaba ari ikigo cy'igihugu cyita ku buzima bw'abantu mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye ku ntebe ahantu mu cyumba, imbere yabo hateretse amazi bafite impapuro bari kwandikaho, bakaba bari kuganira ku ngingo ijyanye n'ubuzima n'uburyo babubungabunga.

Aba ni abajyanama b'ubuzima bicaye ahantu mu cyumba, bafite ibitabo bari kureberamo ibyo bari kwiga, bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu.

Wasake n'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi mu gihugu cyu Rwanda gikwirakwiza amazi meza ndetse n'isuku kikayibungabunga bitewe n'ayo mazi itanga.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu benshi batandukanye yicaye mu itente harimo n'umupolisikazi, uyu mugabo abahagaze imbere akaba ari kubaganiriza ku ngingo runaka.

Abana batoya bari koga ahantu ikidendezi, gusa si byiza ko bakwijyana bonyine ikindi kandi ayo mazi arasa nabi, ashobora kubatera ibibazo by'indwara z'umwanda.

Aha ni kwa muganga hari abantu benshi batandukanye hari umusaza bafashe akaboko ari gupima uko ubuzima bwe bumeze niba nta kibazo afite kugira ngo ahabwe ubufasha naramuka asanganywe ikibazo.

Igishushanyo kiriho umuntu mukuru ndetse n'akana, bari mu gishushanyo cy'uruziga, igishushanyo kikaba kigaragaza ikigo kita ku buzima bw'abana bita UNICEF.

Aha ni kwa muganga hakaba hari abantu batandukanye bambaye impozankano z'akazi, harimo n'abambaye uturindantoki ndetse n'udukarito tubateretse imbere yabo.

Abantu batandukanye bari ahantu mu cyumba, bisa nahoho hari ingingo bari kuganiraho imbere yabo hari udukombe turimo icyayi hari n'ibindi bikoresho bari kwifashisha.

Iki ni igikorwa remezo leta yageneye abaturage bacyo kugira ngo babone amazi hafi abegereye batarinze kujya kure, hakaba hari abantu benshi baje kuvoma ayo mazi.

Abaganga bambaye impuzankano bakaba bari mu cyumba bitiraho abarwayi, hakaba hari umurwayi uryamye ku gitanda, ubona ko bano baganga bari kugerageza kumuvura kugira ngo bamufashe gukira indwara.

Abantu batandukanye bicaye hanze y'ivuriro, bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho, harimo n'umudaso ndetse n'abandi bantu bafite impapuro mu ntoki, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi harimo abiganje bambaye amataburiya asa nk'ubururu bwijimye, hakaba harimo undi mugabo muremure wambaye ikote mu imbere harimo agapira k'umweru, mu bigaragara ni uko bano bantu hari ikintu bari bari kuganiraho barangiza bagafata ifoto y'urwibutso.

Abagabo babiri bicaye imbere y'abandi bambaye amakoti, imbere yabo hari mikoropfone biragaragara ko hari abantu barimo babwira, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo agiye atandukanye harimo irivuga ngo Stopu de Mabaga viyirasi, akaba ari inama bakoraga bagira abantu inama yo guhagarika icyorezo cya mabaga.

Ahantu hari ibigega bibiri, hari abana b'abanyeshuri, bari kunywa ayo mazi avuye mu bigega. Amazi ni ingenzi kandi basobanukiwe akamaro kayo.

Abantu bari ahantu imbere y'inzu, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye neza cyane, aba bantu bikaba bigaragara ko hari igikorwa runaka bari bavuyemo kandi cy'ingenzi, hanyuma baravuga bati reka dufate ifoto y'urwibutso.

Umubyeyi usa n'ukuze cyane yasetse gusa amenyo ye amwe asa n'ayavuyemo kuko harimo ibihanga. Yambaye imyenda aniteze igitambaro gisa n'imyenda yambaye.

Icyapa kiriho ishusho y'umugabo uhagaze imbere y'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hejuru handitse ijambo rivuga ngo: "Turi kumwe," akaba ari icyapa cy'umuryango wa UN.

Abantu babiri bari mu cyumba, umwe afite agakinisho mu ntoki ubona ko undi ari kumuganiriza ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe ari kumugira inama.

Umugore ufashe indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari mudasobwa n'agacupa k'amazi, iruhande rwe hari abandi bantu bisa nkaho bari mu nama hari ingingo runaka bari kwigaho.

Abantu bahagaze batandukanye harimo, ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, nyuma yaho hari icyapa nacyo kiriho amashusho y'abantu atandukanye.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse n'ibirenge bye birasa nabi, akeneye ubufasha bwo kuba yajyanwa ku bitaro akitabwaho.

Umugore utetse igikoma, wicaye ku ntebe y'urubaho, ahetse umwana, undi mwana amuhagaze iruhande, bakaba abatekeye igikoma, kugira ngo baze kunywa bagire ubuzima bwiza.

Abagore batatu bose bishingikirije udukoni mu ntoki, umwe afite umwana ari kumwonsa afite n'umufuka mu ntoki, bari ahantu hari ibyatsi bitandukanye ndetse n'insina.

Iki ni icyumba cy'inama hicayemo abantu benshi batandukanye imbere yabo hari umuntu usa naho afite ijambo ari kubagezaho bose bicaye bamuteze amatwi.

Umukecuru wicaye hagati y'abana benshi ubona ko ari umukecuru mukuru cyane, bigaragara ko uyu mukecuru arimo araganiriza bano bana, ubona ko abana bose bamuteze amatwi.

Icyapa kiriho ikirangantego cya polisi y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda. Kaba handitseho isange one stop center. Aho bafasha, abahuye n'ihungabana, rishingiye ku gitsina.

Umukobwa witeze igitambaro wicaye ahantu ku ntebe y'urubaho, akaba asa n'ufite ikibazo kuko yicaye yigonze, ni byiza ko umubonye wamufasha ukamuganiriza.

Umugore uri kuvuga ashize amanga yambaye ijiri afite n'agapfukamwa mu ntoki arimo aratanga igitekerezo cy'ukuntu bakwita ku buzima bityo bagahangana n'ibibazo bibwibasira.

Umuntu ushinzwe kuganiriza abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari umugore nawe waje kumureba kugira ngo amuganirize bityo abashe kuruhuka ibibazo afite. Baricaye, imbere yabo hari icupa ry'amazi.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi. Hari umugore uhagaze imbere yabo usa naho ari kubagezaho ijambo cyangwa se ari kubabwira ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi batandukanye bafashe icyapa, inyuma yaho hari ihema, hari n'imodoka. Aba abantu ukaba ubona ko nta kibazo na kimwe bafite, bameze neza, barishimye, baranezerewe.

Abana benshi batandukanye baraseka cyane barishimye ubona ko bambaye imyambaro ariko idasa neza cyane, bamwe bafite utujerekani bavomeramo amazi.

Umugore wicaye ahantu yambaye imyenda yacikaguritse afite ibyatsi mu ntoki, afite ikibazo cyo mu mutwe, iruhande rwe hateretse n'ibicupa by'amazi. Akeneye ubufasha uramutse umubonye wamufasha.

Umubyeyi uteruye umwana ukiri mutoya, aho ari kumwe n'undi mubyeyi wambaye umupira w'umweru ndetse akaba afite tesite basa nkaho barimo barebamo ibisubizo iyo tesite irimo irabaha.

Umuganga uri mu cyumba cy'inama ahanze amaso imbere, hari n'abandi bantu bari muri icyo cyumba, bose bakaba baje kugira ngo baganire ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo babubungabunga.

Abantu babiri bari mu cyumba umwe yifashe ku itama ubona ko afite ikibazo undi amufashe ku rutugu ari kumuhumuriza.

Umusore wicaye ahantu wigunze, afite ikibazo cyo mu mutwe arabona ko yihaye akato. Ni byiza ko yaganirizwa kugira ngo atumva ko ari wenyine.

Umugabo wicaye hasi bamwambitse amapingu mu ntoki, urabona ko hari n'impapuro bamushyize mu gatuza, biragaragara ko ari umusazi iruhande rwe hari n'umupolisi.

Abantu batatu bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari umuganga uri kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kubusigasira neza.

Umusore wifashe mu gahanga ubona ko asa n'ufite ikibazo undi mukobwa umuri iruhande amufashe ku rutugu ari kumuhuriza, igihe ubonye umuntu ufite ikibazo nk'iki ni ngombwa kumuhumuriza akumva ko atari wenyine.

Abagore batatu babiri muri bo bafi abana, uri imbere yabo asa n'uri kubagira inama z'uko bakita ku bana babo.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe z'urubaho hari umubyeyi usa naho ari umujyanama uri kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima.

Umuntu wihebye cyane yifashe mu gahanga usa n'aho afite ibibazo, hakaba harundi iruhande rwe uri kumukoraho, amuhumuriza kugira ngo amube hafi.

Umugabo usa n'uwunamye aha akaba ari ahantu hasa nko ku gituro abantu bajya kwibuka ababo bitabye Imana.

Umugabo ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye hasi yambaye ikigare cy'ipine y'imodoka bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu benshi batandukanye bafite utwapa turiho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, ubururu, icyatsi, hakaba harimo n'izuba, barishimye cyane basa naho bari kureba perezida wa repubulika y'u Rwanda.

Umupira uri mu ibara ry'umweru amaboko ni ubururu ndetse n'ikora ni ubururu yanditseho amagambo avuga arapiyesi ini cogamu.

Abantu benshi cyane batandukanye. Abagabo, bagore, abasore, inkumi bari mu cyumba ahantu bateraniye. Bigaragare ko hari ingingo runaka yabahurije aho hantu, ibijyanye no kwiga ku buzima.

Umusore ufite amenyo meza cyane, akaba ari gusukura amenyo ye akoresheje akadodo kabugenewe urabona ko amenyo ye ayagirira isuku arasa neza cyane.

Ahantu hari abantu benshi batandukanye, hakaba hari abantu bambaye amataburiya y'umweru basa nk'aho ari abaganga. Hari agahema kahubatse ndetse hari abantu baje bahagana, ikindi kandi hirya yaho hakaba hari ibiti byinshi ubona ko bimeze neza.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, yambaye n'itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki, ari kuvura umugabo, amukura iryinyo kugira ngo agabanye uburibwe yagize.

Umuganga w'amenyo ari gukura umwana iryinyo kugira ngo ububabare bwaryo, akaba ari gukoresha ibikoresho byabugenewe mu gukura amenyo.

Umusore ufite amenyo y'urwererane yashyize akadodo mu menyo arimo arayoza yifashishije aka kadodo abona ko amenyo rwose ayagirira isuku ihagije.

Inyubako nziza cyane y'igorofa, ni inyubako y'ibitaro byita ku buvuzi bujyanye n'amenyo kugira ngo basigasire amenyo y'abantu.

Abantu benshi batandukanye ubonako bishimye cyane, bahurijwe hamwe no kurebera hamwe uko bakemura ikibazo cy'indwara z'amenyo ndetse n'ingamba zashyirwaho.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, harimo imashini, harimo insinga, ibi bikaba bifasha abantu bari gukora siporo kugira ngo bagorore ingingo.

Umusore wasamye, akaba afite akadodo ari gukoresha mu menyo kugira ngo ayakorere isuku, bityo bimurinde indwara zishobora kwataka amenyo ye.

Umukobwa ubona ko ari umukobwa mwiza cyane, akaba afite imisatsi miremire y'imikara, ari kwireba mu ndorerwamo, akaba yambaye agapira k'umweru, afite uburoso buriho na korogati bigaragara ko agiye kwiborosa. Ubu bukaba ari uburyo bwiza tugirwamo inama n'abaganga kugira ngo turinde indwara nyinshi zitandukanye amenyo yacu.

Umukobwa uri kuborosa akoresheje uburoso ndetse na Colgate, ari gukora isuku y'amenyo kugira ngo yirinde indwara ifata mu kanwa.

Ni mu cyumba, kwa muganga, harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'ikindi gikoresho bita imashini, bareberaho uko umutima w'umuntu utera.

Ni kwa muganga, umugore wasamye muganga ari kumukura iryinyo kuko ryamubangamiye ubona ko rwose yazahaye cyane kubera ububabare.

Umubyeyi ufite imisatsi y'umukara, akaba ari kumwe n'umwana we mutoya na ufite imisatsi y'umukara, bose bambaye udusengeri tw'umweru, bakaba bafite uburoso buriho kurogati, aho barimo biborosa. Ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kurinda amenyo yacu, indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, bambaye udupfukamunwa, bakaba basamuye umunwa w'umwana kugira ngo barebe ikibazo afite mu kanwa, bagire ubufasha bamuha, nko kumuvura.

Abana bakiri batoya, bafite uburoso bari kwiborosa kugira ngo bakore isuku yo mu kanwa bityo birinde indwara zigiye zitandukanye zafata mu kanwa.

Ishusho igaragaza igikanka cy'umuntu kirimo amenyo abaganga bari gusuzumiraho, kugira ngo bitoze uko bazajya bakura abarwayi barwaye amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo, muganga yashyize igikoresho mu kanwa k'umwana kugira ngo amusuzume niba nta kibazo na kimwe afite, umwana na we yasamye ategereje ko bamuha ubufasha.

Umusore uri kwireba mu ndorerwamo akaba afashe akadodo bifashisha basukura amenyo kugirango ngo birinde indwara z'umwanda zishobora guterwa n'isuku nke yo mu kanwa.

Abantu bari mucyumba harimo n'abanyeshuri, bakaba bari kwamamaza ubwoko bwa korogate. Akaba ari umuti usukura amenyo, ukarinda n'indwara zo mu kanwa.

Iryinyo bamaze gukura ubona hasigayemo umwobo munini cyane rwose, rikaba rifashwe n'icyuma, uyu akaba ari muganga wamufashije kuko umurwayi ryamuryaga cyane.

Umuganga wambaye uturindantoki yasamishije umwana mu kanwa, ubona ko ari gusuzuma niba mu kanwa ke cyangwa se amenyo ye nta kibazo afite.

Aha ni mu cyumba kimwe kwa muganga, hari ibikoresho abarwayi baryamaho, ibitanda, insinga z'amashanyarazi, udutebe bicaraho, ibi byose bikaba byifashishwa mu buvuzi.

Akadodo bifashisha basukura amenyo kakaba ari kamwe mu gatuma amenyo y'umuntu asa neza cyane akaba urwererane, kandi bigafasha mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Umugabo w'umwirabura ndetse n'umuzungu w'umugore, bahuje ibiganza bari guseka, ubona ko bari hejuru mu nyubako, bakaba bishimye cyane rwose.

Umusaza ubona ko arimo arakora imyitozo ngororamubiri, ni umusaza w'imvi z'uruyenzi. Yambaye amarinete ndetse yambaye umupira w'umweru, aho mu maboko ye afashe udukoresho twifashishwa n'abantu barimo barakora siporo. Inyuma ye hari ishyamba rihari.

Abantu bari gusoroma icyayi ubona ko bishimye cyane, icyayi ni ingenzi ku buzima bwacu, ni byiza ko twakibungabunga aho kiri hose.

Umumama ukuzemo afite umusatsi w'imvi, afite isahani iriho imbuto ndetse n'imboga zitandukanye, akaba ari kubirya kugira ngo bifashe umubiri we kubona intungamubiri zihagije.

Abantu babiri batandukanye, umusaza ndetse n'umukecuru, ubona ko bakuzemo kuko bafite imisatsi y'imvi, bari gukina umukino.

Umudamu wishimye cyane ubona ko ari guseka afiteti agakoresho bafata mu ntoki, kakabasha kugorora imiti yo mu maboko inyuma ye hari abandi bantu bagaragara neza.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi bari kureba muri telefone, imbere yabo hari ikirahuri cy'amazi ndetse n'uducupa abona ko turimo imiti, umukecuru afite urupapuro mu ntoki.

Umugore urimo aratera pompaje arimo arakora imyitozo ngororamubiri, nyuma y'uko asobanukiwe ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kuba wamera neza.

Abantu babiri bari kugenda mu muhanda, ubona ko bishimye, bari gutera intambwe bishimye nta kibazo na kimwe bafite, hirya yaho hari ibiti bihakikije.

Abantu batandukanye, bafashe icyapa, harimo abayisilamukazi, harimo abagabo, harimo abandi bagore, bakaba bahurijwe hamwe no kwiga ku buryo bafata ingamba zo kurwanya ibyahungabanya ubuzima.

Umukobwa uri kwigorora yicaye ku gitambaro kiri mu ibara ry'umweru amaboko ye yayafatishije ku birenge bye arunamye.

Umugabo wicaye ahantu mu cyumba imbere ye hari amasahani arimo ararura ibyo kurya ndetse n'ikirahuri cy'amazi ibi bikaba bitunga umubiri.

Umusaza ubona ko akuze cyane ndetse ufite ubwanwa bw'umweru aribwo twita imvi, yicaye imbere y'umuganga aho umuganga w'umukobwa ukiri mutoya wambaye itaburiya y'umweru, yamushyize igipimo ku kaboko kikaba gipima umuvuduko w'amaraso ndetse n'umutima.

Umumama ukuzemo wambaye amarinete umwenda w'umuhondo, ari kunywa ibinini yandikiwe na muganga kugirango ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Umugore ndetse n'umukobwa bari mu cyumba, ubona ko umukobwa ari gufasha uwo mugore gukora imyitozo igorora amaboko kugira ngo adahinamirana.

Umukecuru ufite imvi, wambaye amarinete, ari kumwe n'umwana we bari kuganira baseka, imbere yabo hari imboga bari gukata ndetse n'imbuto zo kuza kurya.

Ni umuntu uri ahantu mu cyumba, yifashishije agakoresho gakozwe mu byuma kugira ngo abashe gutambuka, bisa nkaho ubuzima bwe butameze neza, ashobore kuba arwaye.

Abantu batatu umukecuru, umukobwa, umwana ubona ko bose bishimye cyane barimo baraseka hirya yabo hari ibikoresho bitandukanye bitagaragara neza.

Abantu benshi batandukanye, bamanitse amaboko yabo hejuru, higanjemo abagore. Bakaba bari ahantu hari ibimera ndetse inyuma yabo hari n'amashakaka akuze cyane.

Umugabo ndetse n'umwana mutoya bari gukina umukino, imbere ubona ko bari kureba barishimye cyane kandi ni umuryango ukize bari mu nzu nziza ntakibazo bafite.

Aha ni muri resitora ubona ko harimo abantu benshi batandukanye baje gufata amafunguro, hirya hari n'abandi, imbere hari umwirabura ndetse n'abazungu babiri.

Umusaza uri kurya, umukobwa amuhagaze imbere ari kumusukira ji yo kunywa isa ibara rya oranje, imbere hakaba hari imbuto ndetse n'udusorori turimo ibyo kurya.

Umugabo ndetse n'umugore ubona ko bakuze cyane, imbere yabo hatereretse amasahani ariho ibyo kurya bitandukanye, harimo imbuto bikaba bibafasha mu kubona intungamubiri zo gutunga umubiri,

Abantu batandukanye bahagaze ndetse n'umwana muto uri hagati yabo, barishimye cyane baranezerewe mu by'ukuri urabona ko nta kibazo na kimwe bafite.

Icyumba kirimo abantu batatu. Umusaza ubona ko bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri. Ku maboko ye, bamufatishije umushumi uri mu ibara ry'umuhondo.

Abakecuru bicaye ahantu ndetse abo bakecuru ukaba ubona ko hari ikintu runaka bari kwitegereza imbere, bakaba bicaye ku ntebe z'imyeru ndetse inyuma yabo hari insina zihahinze.

Ni ahantu hameze nko mu gisharagati hakaba harimo abantu benshi, imbere hari abasaza babiri bambaye ingofero bakaba banishyizeho imikenyero, umusaza umwe ameze nk'ugiye gukoma amashyi, undi musaza yambaye amarinete, mu bigaragara ni uko bano basaza bari mu mihango nyarwanda.

Umugabo ubona ko akuzemo ari gukora imyitozo ngororamubiri iruhande rwe hari umuganga uri kumwerekera ko agomba kubikora neza kugirango ataba yabivunikiramo.

Umusaza ndetse n'umukecuru bari mu cyumba ubona ko umukecuru ari guha amazi uyu umusaza kugirango ayanywe, amazi nkuko tubizi ni ingenzi mu buzima bw'abantu.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi, wambaye amarinete, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, ari kunywa ibinini ubona ko yashyize ukuboko ku munwa kugira ngo abashe kubinywa bimworoheye.

Umusaza ubona ko asa n'ukuzemo akaba ari kumwe n'abana babiri bafite keke bari kurya, kugirango ngo umubiri wabo ubashe kubona intungamubiri zo kuwutunga.

Ahantu hari abantu benshi bari mu ihema, hari umugore uhagaze imbere yabo asa n'uri kubahiriza ibyo kurya ndetse n'abandi hirya na bo bari gukora imirimo ijyanye no guha abantu ibyo kurya.

Umugabo bari guhereza imiti y'ibinini, imbere hari ikirahure cy'amazi ndetse ku meza yateretseho na mudasobwa, akaba yari ari gukoreraho ubushakashatsi.

Abantu babiri bari mu cyumba cyangwa se muri saramanje bari kurya, imbere yabo hari amasahani ariho ibiryo ndetse n'imboga n'ibirahuri by'amazi, ibi bikaba bifasha umubiri kumera neza.

Umugabo ubona ko asa n'ukuze cyane kuko nta mbaraga agifite, umukobwa ushinzwe kumwitaho ari kumuhagurutsa kugira ngo abashe kuba yamugeza hanze.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamuwa n'uturindantoki, bari kuvura umurwayi hano urembye, ubona ko amerewe nabi cyane, bari kumwitaho kubera ko atameze neza.

Ukuboko k'umuntuntu kuriho uduheri duto, uyu muntu akaba arwaye yagannye kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha bw'ikibazo afite.

Icyumba cy'inama harimo abantu benshi batandukanye, hari abantu batatu bicaye imbere y'abandi, harimo n'umuzungu umwe, inyuma yabo hari icyapa cya RBC, ikigo cyita ku buzima bw'abantu mu Rwanda.

Abaganga batandukanye, bambaye uturindantoki, bambaye udupfukamunwa, bambaye impuzankano z'akazi ziri mu ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze harimo abagore ndetse n'abagabo, abagabo ubona ko bambaye amakote baraberewe cyane inyuma yabo hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda hari n'ibara risa ubururu.

Iki ni ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, kikaba kiriho agaseke ndetse n'amapfundo n'ingabo. Icyabishyizeho hano ni minisiteri y'ubuzima.

Abantu benshi bicaye bafite utwapa mu ntoki imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru inyuma yaho hari n'ibyapa bigaragare ko bari kwiga ku ngingo z'ubuzima.

Icyumba cyateraniyemo abantu benshi, harimo abicaye bari gutanga imbwirwaruhame, bari kuganira ku buzima ku isi hose, barebera hamwe uburyo bakomeza kuburinda.

Igikorwa cyo gukingira indwara zitandukanye, muganga akaba ari gukingira umugore urushinge ku rutugu, umugore na we yarutinye cyane, akaba ari gushinyiriza.

Abantu benshi batandukanye, hafi ya bose bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru, bicaye no ku ntebe z'umweru. Imbere hari umuntu uri kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima, n'uko babubungabunga.

RBC akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu n'abaturarwanda muri rusange. Bakaba bahabwa ubufasha bugiye butandukanye bujyanye n'ubuzima bwiza.

Abantu babiri umuhungu ndetse n'umukobwa bahagaze, bafashe icyapa mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ibintu byinshi bitandukanye yufu gorobo miti.

Umugabo uhagaze ufite icyapa mu ntoki cyanditseho ko urukingo rw'icyorezo cya manki pokisi rwabonetse abantu baruhabwa bityo bakikingira

Ababyeyi bagiye kwa muganga hakaba hari abaganga batandukanye umuhungu ndetse n'umukobwa bambaye badge mu ijosi, imbere ku meza hariho udukoresho tw'ibanze bifashisha bafata amaraso abarwayi. Biragaragara ko uyu mukecuru yatanze agatoki aho bagiye kumutera agashinge kugira ngo bamusuzume.

Icyapa kiri mu ibara ryenda gusa ubururu, amagambo yandikishije umweru ndetse n'umuhondo, haragaragaraho umuntu utagaragara neza bigaragara ko arwaye ibintu by'ibiheri ku maboko. Kuri icyo cyapa handitseho amagambo agira ati “Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende”.

Ni icyumba kirimo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari inyakiramashusho, iruhande rwabo bantu hari mudasobwa. Umugabo uhagaze imbere afite indangururamajwi, bisa naho hari icyo ari kubabwira.

Aha ni kwa muganga hakaba hari inyubako nziza cyane zisa neza zifite isuku, abantu baganayo igihe bafite ibibazo by'indwara kugira ngo bahabwe ubufasha.

Inyubako nziza cyane, ubona ko imbere isa neza cyane, akaba ari inyubako ikorerwamo ubuvuzi, haragaragara n'icyumba cy'abaforomo bakoreramo, ubakeneye wahabasanga.

Umugabo usa n'ufite ikibazo cy'ingingo z'umubiri we, wicaye mu kagare, inyuma hari undi uri kumusunikira amujyanye ku kigo nderabuzima kugira ngo ahabwe ubufasha.

Umusaza ndetse n'umuganga, bari ahantu mu cyumba, bose bari guseka, muganga yamushyizeho icyuma gipima uko umubiri w'umuntu uhagaze, akaba arimo aramusuzuma.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bifashisha bikomeza amaboko, hari n'akagare hirya banyonga mu gukomeza imitsi y'amaguru, ibi byose bikaba bituma ubuzima bugenda neza.

Ibi ni ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi hari mudasobwa ari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibindi byifashishwa aho hantu kugira ngo basuzume uko ubuzima bw'abantu buhagaze.

Ikigo nderabuzima, hakaba harimo inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, hakaba hari n'ubusitani. Aha ngaha abantu baganayo kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'indwara zitandukanye.

Aha ni ku kibuga cy'indege cyangwa se ahantu ku bitaro, hari abantu bafite udutebo turimo ibyo kurya bagemuriye abantu.

Aha ni kwa muganga hakaba hari ibyicungo byicungwaho n'abana, hakaba hari n'ubusitani. Hakaba hagana abarwayi bashaka ubuvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye, harimo imashini zifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'abantu buhagaze ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda woroshwe ishuka.

Inyubako nziza cyane, handitseho Caraes, aha ni ku bitaro bifasha abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, bakabaha ubufasha.

Icyumba cyo kwa muganga aha akaba ari aho bakorera ubushakashatsi bujyanye n'ubuvuzi ndetse n'ibinyabuzima kugira ngo bamenye ko birinda bimwe na bimwe mu ndwara.

Mu bitaro bigiye bitandukanye hirya no hino mu Rwanda, hagiye harimo ibitanda byabugenewe biryamishwaho abarwayi, ndetse kuri buri gitanda, hagiye hariho supanete zibarinda kurumwa n'umubu, kugira ngo barusheho kwirinda indwara ya malariya.

sale nini cyane, ikaba irimo intebe, akaba ari sale bakoreramo inama cyane cyane iyo hahuriye abantu benshi batandukanye.

Umuganga wishimye cyane, akaba afashe agakoresho mu ntoki afite n'ikindi gikoresho gipima ku mutima utera, yambaye itaburiya y'umweru.

Iki ni ikigo nderabuzima cya Nyarugeruyenzi, kiri mu nyubako y'igorofa hari n'abantu munsi baje kwaka ubufasha bujyanye n'ubuzima.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa bari gukora imyitozo ngororamubiri, hari ibyo baterura, hari ibyo birukaho, hari ibyo bicungaho ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu bitaro kwa muganga ubona ko harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa bavura abarwayi, harimo umurwayi umwe uryamye ku gitanda ndetse arimo na serumo.

Abantu benshi bari imbere y'inzu y'ababyeyi izwi nka materineti harimo abagabo, abagore ndetse harimo n'abambaye impuzankano abangaba bakaba bari gufata ifoto ubona ko bishimye.

Inyubako zitandukanye nziza cyane, mbona ko zisa neza cyane, hanze ku rubaraza hari abantu, mu mbuga kandi hari pasiparume nazo zitoshye cyane.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye, bari gupima abana kugira ngo barebe ibiro byabo uko bingana, hakaba harimo abandi bantu na bo bategereje gupimisha abana babo.

Iyi ni inyubako y'ikigo cya Isange one stop center, giherereye Remera-Rukoma, kikaba gifasha abagize ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina.

Aha ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, harimo ibitanda bitandukanye, ikigaragara harasa neza hakorerwa isuku, ni byiza kugira isuku aho turi hose ndetse n'aho dutuye.

Kwa muganga ahari igitanda abarwayi baryamaho hari imashini, hari mudasobwa, hari inyakiramashusho, hari ibyuma bifasha mu gusuzuma ndetse n'igitanda gishasheho ishuka y'umweru.

Mu Rwanda hagiye hari amavuriro yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho. Aho usanga hari isuku nziza kandi hari n'akayaga keza ko guhumeka. Aha hakaba ari ku ivuriro, aho hubatse neza, imbere hateretse n'intebe zo kwicaraho, hakaba hari ibyapa byinshi ndetse hakaba hari n'ibiti bitanga umuyaga mwiza wo guhumeka.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye, imashini zipima uko abarwayi bameze, ibitanda abarwayi biryamaho ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga.

Ibi ni ibitaro bya kabgayi, bikaba bikikijwe n'ubusitani bw'ibiti birebire. Akaba ari aho abantu bajya mu gihe bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima kugira ngo bahabwe ubufasha.

Inyubako nziza cyane akaba ari inyubako yitwa farumasi, icururizwamo imiti ndetse hagatangirwamo n'ubuvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye, habamo abaganga babizobereye.

Inyubako cyangwa se ikigo cya Isange one stop center, aho bafasha abantu bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakabasha gufashwa.

Udukarito cyangwa se udushashi turimo amaraso aba yaratanzwe n'abantu kugira ngo ajye guhabwa abandi akaba ari igikorwa cyiza kuko iyo utanze amaraso uba ukijije ubuzima bwa benshi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri ndetse bakomeza amagufwa, harimo ibyo baterura mu ntoki, harimo ibyo baryamaho ndetse n'ibyo bagendaho, byose birakoreshwa.

Umubyeyi ukikiye agahinja, imbere y'umubyeyi hari umuganga wambaye impuzankano ndetse n'agapfukamunwa, akaba yambaye n'amarinete arimo aragerageza kwita kuri ako gahinja, mu bigaragara ni uko agahinja barimo baragapima.

Aha ni ku bitaro hari abantu benshi batandukanye, harasa neza. Akaba ari aho abarwayi bajya bagahabwa ubufasha kugira ngo bavurwe bakire.

Umugabo bisa nkaho ari umuganga ari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye amamashini yifashishwa kwa muganga, yambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki n'impuzankano mu ibara ry'umweru.

Kwa muganga mu cyumba gifite isuku urabibona nawe. Hkaba ari aho abaganga bita ku bana baba bari. Ukeneye ubufasha wajyayo bakagufasha.

Abantu batandukanye bari imbere y'inyubako iyo nyubako ikaba yanditseho laboratwari bigaragare ko ikorerwamo ibijyanye n'isuzuma ry'imiti.

Ni kwa muganga, hari icyumba kinini cyisanzuye, akaba ari aho abantu bakorera siporo kugira ngo bagorore ingingo zimwe na zimwe ziba zaragiye zibasirwa n'ibibazo bitandukanye.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye, ikaba ari farumasi, imbere harimo n'abantu baje gushaka imiti yabafasha.

Ni mu cyumba kwa muganga hasize ibara risa umweru, hejuru amatara ari kwaka, munsi hari icyuma kinyuzwamo abantu kugira ngo basuzumwe indwara baba bafite mu mubiri.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rwerere, ikaba ikikijwe n'ubusitani, aha hakaba hajyayo abafite ibibazo by'ubuzima kugira ngo bahabwe ubufasha.

Kwa muganga ubona ko hafite isuku, harimo udutebe twiza cyane, amatara yaka neza baragaragaza aho abaforomo bakorera ubakeneye wabagana bakagufasha.

Umuganga uri mu cyumba, icyo cyumba kikaba kirimo igikoresho bifashisha bapima ubuzima bw'umuntu niba nta ndwara yaba afite mu mubiri wose.

Inyubako igeretse kabiri hanze yayo hari abantu benshi batandukanye bigaragara ko baje kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako y'igorofa igereretse inshuro ebyiri, hanze hari abantu batandukanye bambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu basa naho ari kwa muganga cyangwa se ibitaro bikuru.

Aha ni mu cyumba kwa muganga, hari ibitanda abarwayi baryamaho, hari intebe bicaraho, hari imashini zifasha abaganga gusuzuma uko umurwayi ameze, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Inzu nziza ubona ko zubatswe mu buryo bugezweho, imbere yazo hakaba hateye ibiti bitandukanye ndetse na jaride. Ndetse ku muryango ahazwi nka porotayi hakaba hafunze, imbere ya porotayi ku ruhande rw'iburyo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo nyanza hosipito.

Inzu nziza y'igorofa igeretse inshuro eshatu, ikaba ari ivuriro ikorerwamo ubuvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye, abarwayi barahagana bakabasha guhabwa ubufasha.

Inyubako icururizwamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, ikaba iri ahantu ku muhanda harimo n'abantu benshi baje kugura iyo miti.

Aha ni ku bitaro kwa muganga, hari abantu benshi batandukanye, ubona ko ibyo bitaro bisa neza cyane. Akaba ari aho abarwayi bajya bagiye gushaka ubufasha bujyanye n'indwara bafite.

Inyubako ifite urubaraza ikaba iherereye mu bitaro bya Butare bita CHUB. Akaba ari aho abarwayi ababyara bajya.

Icyumba gisa neza cyane rwose kirimo intebe nziza cyane zigezweho, hasi hashashe amapave ndetse inkuta ziri mu ibara ry'umweru.

Abaganga batandukanye bambaye impuzankano z'akazi, bambaye udupfukamunwa, hejuru yabo ku muryango hari ijambo ryanditseho rivuga ngo "inzu y'ababyeyi", akaba ari aho ababyeyi batwite babyarira.

Ahantu heza cyane akaba ari ahantu ku bitaro harimo uduhanda twiza harimo ubusitani abantu bakaba baganayo bagiye gushaka ubufasha bujyanye n'indwara.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye, urabonamo ko ari amoko menshi ari mutu etajeri, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura abarwayi barembye.

Inyubako nziza cyane ubona ikoze mu buryo bw'ikizeru, ifite amadirishya y'ibirahure ndetse ku ruhande hari n'umuhanda uganayo, ikikijwe n'ubusitani bukirimo gukura.

Ni kwa muganga, icyumba gisa neza cyane, gifite isuku, hari ibitanda abarwayi baryamaho, gifite n'amarido atandukanya ibyo bitanda.

Ibi ni ibitaro hanze hakaba hagaragara umuryango wanditseho inzu y'ababyeyi. Akaba ari aho ababyeyi batwite cyangwa se babyaye baba bari.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ku nkuta hashushanyijeho ibintu bitandukanye, hariho inyamaswa inzovu, ingwe ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo na vandarateri ifasha mu kuzana umuyaga muri icyo cyumba.

Ni ku kigo nderabuzima cyangwa se ibitaro, kikaba kiri ahantu heza hari ubusitani hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, abantu bakaba bahajya bagiye guhabwa ubuvuzi bw'indwara zabibasiye.

Inyubako ubona ko yubatse mu buryo bwa kijyambere ndetse akaba ari etaje, iyi nyubako hahagazemo umuntu ndetse hari n'abandi bari kuyijyamo. Iyi nyubako iragaragara nk'inyubako itanga serivisi nk'aho ari ivuriro, hasi yayo hari akayira k'amapave ndetse hari n'ishyamba rihari, hakaba hari n'igiti kimanitseho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ikigo nderabuzima giherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo abantu bakaba bahagana kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'indwara bafite.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, aha abantu bakaba bahagana cyane cyane abarembye kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se abagiye kubyara nabo babashe kubona ubufasha.

Umukobwa cyangwa se umugore urwariye mu bitaro kwa muganga, aryamye mu cyumba, icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga basuzuma uburwayi bw'abantu.

Umugabo ndetse n'umugore barimo baraganira, umugabo agaragara nk'umuganga kuko afite akuma gapima ko umuntu ahagaze akaba yambaye n'impuzankano y'akazi.

Amavuriro menshi agiye atandukanye yo mu Rwanda, usanga yubatse mu buryo bugezweho kandi bwiza cyane, aho usanga hari urupangu rukorotiriye ayo mavuriro ndetse imbere y'ivuriro rihari, hari indabo z'ubusitani bwiza cyane. Hari n'igiti cy'inganzamarumbo gitanga umuyaga.

Ni kwa muganga harimo umuganga wambaye impuzankano n'agapfukamunwa, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse n'inteko.

Ikigo nderabuzima cya matyazo hakaba haganayo abantu bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi cyangwa se abagore bagiye kubyara bose bahabwa ubufasha bwiza kandi bakita.

Kwa barasanasana iminsi kicuma harimo abaganga bari kuvura umurwayi ubona ko arembye cyane, bambaye udupfukamunwa ndetse hari n'ibikoresho bitandukanye bari kwifashisha.

Icyumba kirimo intebe nyinshi haruguru hari abantu bicaye bahanze amaso imbere, insakazamashusho bisa naho hari ibyo bari kureba iri kunyurwaho.

Abaganga bambaye udupfukamuwa ndetse n'impuzankano z'akazi ziri mu ibara ry'umweru hari uducupa tw'umweru hari ibikoresho bitandukanye babona ko hari imiti bari gutunganya.

Umuganga uri guseka afashe itaburiya y'umweru cyangwa se impuzankano y'akazi, yambaye uturindantoki afashe akantu gatukura mu ntoki, imbere ye hari kizimyamoto nayo yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri apfukamye kuri tapi, amaboko ye yayarambuye bisa n'aho agiye gusoza kuko urabona ko ari kweguka.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko hari icyuma ari gusunika asa n'uwiruka, yambaye isengeri y'icyatsi, ikabutura y'ubururu n'inkweto zifunze.

Umwana w'umukobwa witeye agasharupe kari mu ibara ry'umweru, afashe igurude mu ntoki arimo aranywa amazi, yasobanukiwe neza ko amazi ari ingenzi.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri ari kumva umuziki, ari kunywa n'amazi avuye mu igurude. Imyitozo ngororamubiri akaba ari ingenzi, niyo mpamvu tugomba kuyikora.

Umusore uriya ahantu mu cyumba ubona ko harimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo insinga, harimo udutebe yambaye n'uturindantoki tumufasha kwirinda ibintu byanduye.

Abantu benshi batandukanye bari kubyina batonze umurongo bameze neza, bambaye imyenda ya siporo bigaragara ko bavuye muri siporo zijyanye no kwiruka.

Umugabo cyangwa se umusore wishyize agatambaro ku kuboko, asa n'aho arimo arikanda, ashobore kuba yagize ikibazo mu kuboko kwe.

Aha ni ku kibuga cya basiketi, hari abantu benshi baje kureba uburyo uwo mukino ukinwa, bakaba bari gukoma amashyi bishimiye uyu mukino.

Igikapu kirimo amoko y'imiti itandukanye, hari iri mu ducupa, hari iri mu dukakarito, hari ipfunyitse, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Udukarito dutandukanye uducupa ndetse n'udupapuro ibi byosekaba ari ibikoresho byifashishwa no kwa muganga bari guha imiti abantu kugira ngo bakire.

Nkuko tubizi imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro ku buzima bwacu ni byiza rero ko tubikora uyu muntu nawe asobanukiwe akamaro ko kuyikora akaba yabyitabiriye kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Ni mu cyumba kwa muganga hari igikoresho cyifashishwa bapima uko umuntu ameze mu mubiri, hakaba hari irange ry'umweru, hakaba hari n'isuku ibereye nziza.

Umusore uri kwikanda akoresheje barafu n'agatambaro gakonje. Akaba asa n'uwagize ikibazo mu kaboko, akaba ari kwifashisha aka agatambaro kugira ngo amererwe neza.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, uyu musore na we akaba ari kuyanywa kubera ko yasobanukiwe akamaro kayo, natwe tugomba kuyanywa kugira ngo dufashe imibiri yacu gukora neza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye inkweto z'umutuku, akaba yambaye na ekuteri hejuru yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara.

Agacupa karimo ibara ry'umweru, kakaba ari agacupa karimo umuti wifashishwa uvura indwara zitandukanye, kanditseho ijambo rivuga ngo stop pain, hagarika uburibwe.

Umukobwa wifashe ku ivi, afite igipfuko, ubona ko yagize akabazo k'imvune mu ivi. Igipfuko kikaba kiri bumurinde kuba yakinjirwa n'udukoko duturutse hanze twinjira muri icyo gisebo.

Icyumba kirimo umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye akaguru kamwe akandi karahagaze. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bifasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza

Umugabo wasamishije umwana, arimo aramusuzuma ngo arebe ikibazo afite mu kanwa, hari n'abandi babiri bahagaze bambaye agakamunwa.

Udukarito turimo imiti dutandukanye handitseho amagambo atandukanye, twose tukaba tubitse mu gakarito kamwe.

Umukobwa uri kwinanura akora imyitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko hejuru yahuje ibiganza, akaba afite imisatsi miremire ifungishijwe umubano.

Aha ni kwa muganga, hari umurwayi uryamye, muganga ari kumugorora akaguru bisa n'aho yagize ikibazo mu kaguru ke, akaba aryamye ku gitanda.

Aha hari ibikoresho bitandukanye hari ibyo baterura mu maboko kugira akomere, hari imetero, hari umuntu uri kwandika ku gakayi, hari icyuma kifashishwa n'umuganga yumva uko umutima utera ndetse hari n'urubuto rwa pome.

Umugabo ufashe agashumi mu ntoki arimo aragorora amaboko undi muganga ari kumufasha amwerekera uburyo bikorwa bikagenda neza.

Umusore wasobanukiwe ko kunywa amazi ari ingenzi mu buzima bw'umuntu, nawe akaba ari kuyanywa kugira ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Yambaye ekuteri arikumva n'akaziki agenda atembera mu muhanda.

Ibikoresho bitandukanye, imiti ,amataratara ,ga, ndetse n'ibindi bishushanyo by'abantu ,ibi byose bikaba byifashishwa mu buganga bigisha abanyeshuri cyangwa berekera abaganga bashya uburyo bikoreshwa.

Umuntu uryamye hasi kuri tapi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yahinnye ivi, akaba yarasobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uryamye ku gitanda ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri dukunze kwita massage kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza kandi yumve aruhutse mu mubiri.

Iduka rito ritandukanye uducupa dutandukanye, tukaba turimo imiti yifashishwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga bavura abantu.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi miremire ari kunywa amazi yifashishije igikoresho gikunze kwitwa gurude mu ndimi z'amahanga amazi ni ingenzi mu buzima bwacu.

Ikimenyetso cy'umuryango bita Croix Rouge, akaba ari umuryango wita ku mbabare ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima ndetse n'indwara.

Umusore wavunitse akaguru muganga yamushyizeho ibikoresho bimufasha kugorora ako kaguru ke, hakaba hari n'abandi bantu baje kumureba ubona ko nabo byabababaje.

Udukapu turimo imiti itandukanye, harimo bande, harimo ibinini, n'imikasi, ibi byose byifashishwa n'abaganga mu buvuzi bwabo bwa buri munsi.

Umukobwa uri kwigorora akora imyitozo ngororamubiri, akaba yafatishije ibiganza bye byombi bibiri ku kuguru kumwe ukundi yaguhinye, yambaye na ekuteri ari kumva umuziki.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaboko kamwe yagafatishije inyuma mu bitugu, akandi gafashe ku nkokora. Akaba yambaye n'igisengeri y'icyatsi. Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ,niyo mpamvu tugomba kuyikora.

Umukobwa uri mu cyumba kirimo ibikoresho. Uyu mukobwa akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, umwarimu we amuri iruhande nawe ari kumwerekera uburyo agomba kuyikora neza.

Uyu mukobwa yasobanukiwe neza akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, anasobanukirwa neza ko kunywa amazi ari ingenzi, akaba arimo arayanywa kandi ubona ko abyishimiye.

Ikirahure bari gusukamo amazi avuye mu itasi. Amazi akaba ari ingenzi mu buzima bwacu niyo mpamvu tugomba kuyanywa kandi buri munsi kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Umuganga uri gusuzuma uko ivu ry'umuntu rimeze, akaba yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru n'agakoresho bifashisha basuzuma uko umurwayi ameze, cyane cyane umutima utera.

Igikoresho bifashisha kwa muganga bapima uko umutima w'umuntu utera, umupira w'amaguru bifashisha bakina ndetse n'inkweto bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri. Biri ahantu hari ibara ry'umweru.

Iri ni icupa ry'amazi meza cyane yo mu ruganda, akaba afashwe n'umuntu, akaba ari n'ikiganza cye kigaragara gusa.

Icupa ririmo amazi meza, naryo rirasa neza rifite isuku, aya mazi akaba ari ingenzi mu buzima niyo mpamvu tugomba kwihatira kuyanywa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Udukarito turimo imiti ndetse n'utundi dukoresho ga, ibipfuko byose bikaba byifashishwa n'abaganga bari kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umusore urimo arakora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye yayarambuye ayakoza ku birenge bye, yicaye ahantu muri pasuparume yasobanukiwe neza akamaro k'imyitozo ngororamubiri.

Umusore ndetse n'umukobwa bari gukora imyitozo ngororamubiri. Umusore aricaye, umukobwa arahagaze. Imbere yabo hari ibikapu, umusore ubona ko bari kunywa amazi.

Umukobwa wicaye kuri tapi, imbere ye hari mudasobwa hari n'udukoresho bifashisha, hari n'agacupa karimo amazi, nawe akaba yicaye arimo arigorora ingingo ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite agakoresho kabugenewe mu maboko kugira ngo agorore imitsi y'akaboko, muganga akaba ari kumwerekera uko bikorwa.

Udukarito turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hariho ijambo ryanditse PDI ndetse n'indi rivuga ngo Versa- Pac.

Amoko y'imbuto atandukanye: imineke, urusenda, igitunguru, imbuto zitandukanye, amagi, igice cy'umugati, ibyuma bikoreshwa muri siporo n'ibindi. Ibi bikaba bifasha mu buzima bwa buri munsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite agakoresho gapima uko umutima utera ndetse afite n'akandi gakoresho kajya gusa umutuku. Akaba ahagaze umutwe we utagaragara neza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye harimo n'imiti, harimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, imikasi n'ibinini byifashishwa baha abarwayi.

Umuntu w'umukobwa urimo arakora imyitozo ngororamubiri amaboko ye yombi yayafatishije ku kirenge kimwe, ikindi kirenge yagihinnye, imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu.

Amoko y'imbuto agiye atandukanye, amashu, indimu, ironji, pome, karoti, hakaba hari umuntu uri gukora siporo, ibi byifashishwa n'abantu bamaze gukora siporo kugira ngo basigasire ubuzima bwabo.

Amoko y'imbuto agiye atandukanye: inanasi, ironji, itunda, umuneke hari imidari, hari ibinini, byose bikunze kwifashishwa n'abantu cyane cyane abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Umukobwa wicaye ku gakoresho kabugenewe, aho arimo arakora siporo ngororamubiri. Akaba yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, imbere ye hateretse imashini ndetse hateretse n'utuntu tubiri twifashishwa muri siporo. Iruhande rwe na nonene kandi hari umugozi n'agacupa kameze nk'akamazi, uyu mukobwa arimo arigorora.

Nk'uko tubizi amazi ni ingenzi, aha naho hari amazi ari gusukwa mu kirahure, amazi meza kugira ngo aze kunyobwa n'umuntu nk'uko byateganyijwe.

Aka ni akagare abantu bafite ubumuga bw'ingingo bagendaho, kakabafasha kugenda ahantu hagiye hatandukanye nabo bakabona ibyiza.

Abantu babiri iruhande rwabo hari umupira bakoresha bakina umukino wa muguru, umwe aryamye hasi asa nuwavunitse kuko undi ari kumukanda mu ivi ngo amufashe.

Abantu babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umwe aryamye ku gitanda yigorora, undi na we ahagaze iruhande rwe ari komugorora. Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi, tugomba kuyikora.

Muganga uri gufasha umuntu ashobore kuba yagize imvune mu kaguru akaba ari kumushyiraho ibipfuko kugira ngo arebe ko yamererwa neza ubuzima bwe bugende neza.

Umugabo uryamye ku gitanda kwa muganga, akaguru ke bagashyize ku byuma, ubona ko yagize ikibazo cy'imvune y'akaguru akaba ari guhabwa ubufasha kugira ngo barebe ko ....

Aha ni kwa muganga, hakaba hari abantu bambaye inifomo ziriho imisaraba; bigaragara ko bari gutanga ubufasha ku barwayi.

Umusore uri ahantu mu cyumba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yaba iy'amaguru, iy'amaboko, yasobanukiwe neza akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri niyo mpamvu ari gukora ibyo azi.

Uducupa dutatu duteretse ahantu tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi twanditseho n'ijambo sitopu payini, akaba ari umuti ukora neza kandi uvura neza

Agakoresho kazwi ku izina rya burankari, aho gakoreshwa cyane cyane mu kibuga cy'umupira w'amaguru mu gihe hari umukinnyi ugize ikibazo abashinzwe ubutabazi bw'ibanze barakajyana ubundi bagerayo bakakamwicazaho bakamukura mu kibuga.

Umugore cyangwa se umukobwa uvuye gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi yiteye n'umwenda w'umukara ku rutugu, amazi ni ingenzi niyo mpamvu na we ari kuyanywa ngo amufashe.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri akaba yambaye isengeri y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, arunamye ibiganza bye arabirambuye yenda kubikoza ku birenge bye.

Umusore uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, yifashishije akuma, umuganga umuri imbere ari kumwerekera uko yabigenza, urabona ko yarwaye ari kugira ngo atore agatege abashe kugera aho abandi bari.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaboko ke kamwe yagafatishije mu mugongo inyuma akandi gafashe ku nkokora hejuru yambaye ekuteri ndetse n'isaha ku kuboko.

Ni kwa barasanasana iminsi kicuma ndavuga kwa muganga. Icyumba hakaba harimo igitanda, hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa mu gusikana umubiri w'umuntu, bareba indwara yaba arwaye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri ndetse n'ikabutura, yasobanukiwe neza akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko na we ari kubikora kandi abikunze kugira ngo asigasire ubuzima bwe, arwanye n'indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Barasanasana iminsi ikicuma ubwo ndavuga abaganga, imbere yabo hari insakaza mashusho bari kureberaho, birasa n'aho bari kureba buryo ki bavura abantu.

Umubikirakazi ndetse n'umuzungu ufashe ku maguru y'akana bari kureba imbere, bisa naho bari mu bitaro kuko hari n'abandi bantu bari hirya na bo basa n'abaryamye.

Udukoresho tugiye dutandukanye udukarito, imakasi, bandana, ibinini byose bikaba byifashishwa no kwa muganga bavura abarwayi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, uducupa, ibinini, inshinge, imikasi byose bikaba byifashishwa kwa muganga mu buvuzi, hakaba harimo n'indi bikoresho bitandukanye.

Umusore uri kunywa amazi yamaze gusobanukirwa ko amazi ari ingenzi mu buzima bwacu, ni byiza ko natwe twajya tuyakoresha bikadufasha.

Igiti cyangwa se ikimera gifite amababi manini ndetse n'ashami ibiti cyangwa se ibimera bimwe byifashishwa mu gukora imiti ya Kinyarwanda.

Agacupa kari mu ibara ry'ubururu gateretse ahantu hasa neza, kakaba ari agacupa karimo umuti uvura indwara z'uruhu zigiye zitandukanye.

Ibimera umuntu yasoromye ikabihuriza hamwe mu gitebo, akaba agiye kubivangavanga agakoramo umuti kinyarwanda ushobora kuvura indwara zitandukanye haba inzoka zo mu nda ndetse n'izindi.

Uducupa dutatu turi mu ibara ry'umweru ndetse n'imifuniko y'umweru, tukaba turimo imiti wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ikaba ari imiti ya Kinyarwanda.

Umuganga ufite igikoresho mu ntoki, imbere ye hateretse amacupa asa naho hari ibyo ari gupima yifashishije udukoresho afite mu ntoki, yambaye impuzano iri mu ibara ry'umweru.

Ururabo rwiza cyane ruri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibimera biri iruhande itagaragara neza. Ibi byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Uducupa dutandukanye ndetse n'udukarito, turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zifata abantu.

Uyu ni umuti ukaba uri mu ducupa twinshi dutandukanye, ukaba urimo umuti ndetse n'ubuki. Bikaba byifashishwa mu kuvura abantu batandukanye.

Nk'umuntu ufite igicupa mu ntoki ndetse n'indi miti itandukanye imuri iruhande bigaragare ko ari kuyivanga kugira ngo akoremo imiti ivura indwara.

Iki ni ikimera gifite amahwa bakunze kwita igitovu, iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ya gakondo cyangwa se ya Kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Ibi ni ibimera byateretswe ahantu, biri mu mabara atandukanye, bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya Kinyarwanda, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Igikakarubamba ndetse na avoka, ibi byose iyo bivanzwe bikorwamo imiti ishobora kuvura uruhu cyangwa se kuvura n'ibindi cyangwag se gukoramo isabune nziza.

Iki ni kimera kikaba gitoshye neza cyane fite n'amababi manini iki kimera cyifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'umutuku n'uturongo tw'umukara, ari gusoroma umuti kugira ngo age kuwifashisha umuvure indwara zitandukanye.

Uducupa tugiye dutandukanye ndetse n'udukaritoto twose tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye, umuntu ashobora kurwara.

Uducupa dutatu, kamwe kari mu ibara ry'umuhondo, utundi tubiri turi mu ibara ry'umweru, tukaba dutereretse ahantu ku kameza, tukaba turimo imiti ivura indwara zitandukanye.

Uducupa dutandukanye turi mu mabara atandukanye y'umuhondo, umweru, ku mpande hari ibibabi by'ibimera ndetse n'ijambo ryanditseho vigani n'utubuto dutukura.

Ikimera giteretse abantu mu mavaze cyangwa se mu ndobo, ikikimera kikaba ari kimwe mu bimera bikorwamo imiti ya Kinyarwanda genda ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'uducupa butandukanye hakaba harimo amabara y'icyatsi, umweru, ubu bucupa bukaba burimo imiti yifashishwa kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa turimo imiti ya kinyarwanda ,iyi miti ikaba ikorwa mu kimera bita igikakarubamba . Iki kimera kikaba ari ikimera gifite amahwa kandi kivamo imiti igiye itandukanye.

Uducupa dutandukanye ndetse n'udukarito dutandukanye turi mu ibara atandukanye tukaba twifashishwa mu kuvura abantu batandukanye.

Ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi, kirandaranze hasi, gifite uturabo tw'umutuku n'umuhondo, kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Etageri irimo udukombe tugiye dutandukanye, tukaba ari udukombe turimo imiti igiye itandukanye, ndetse ivura indwara zitandukanye. Iyi miti ikaba yarakozwe mu bimera, mu buryo bwa gakondo.

Aha hari abantu benshi, bahagaze munsi y'umusozi uri guturukamo amazi ahorera, hakaba hari ibimera, ibimera nabyo byifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu buvuzi.

Udukoresho turimo imiti gakondo, twanditseho ijambo rigira ngo: Alloe vera gelly, ikaba turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti upfunyitse mu gacupa gafite umuvuniko w'umweru, hariho amagambo avuga ngo uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ukumira indwara zifata porositate.

Abantu benshi batandukanye bari ahantu mu murima urimo ibimera cyangwa se ibyatsi byinshi mbona ko byakuze, bakaba bari gusoroma basa n'abari gushaka gukora umuti uvuye muri ibi bimera.

Ikimera cyiza cyane ubona ko gitoshye bitewe n'uturabyo ndetse n'utubuto, iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera giteye ahantu mu ishyamba. Iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora imiti igitandukanye ya kinyarwanda ivura indwara zigiye zitandukanye.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye, ibyo bimera bikaba bifite indabo nazo ziri mu mabara atandukanye, ubururu, iroza, umweru, umuhondo. Bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Umugore witeye umwitero uri mu ibara ry'umweru, afite ishakoshi mu ntoki, arimo arasoroma ibimera byo kwifashisha akora imiti cyangwa se yivura indwara zitandukanye.

Ikimera kiri ahantu mu ibara risa umukara, iki kimera kikaba gifite amababi atandukanyemo, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara, cyane cyane inzoka zo mu nda.

Udukarito turimo imiti ya kinyarwanda, dutereretse ku biti bitandukanye, biri mu mabara, umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi. Hakurya hari n'ibiti, hari n'ijambo hejuru ryanditseho Herbal Tea Range.

Amoko y'ibimera atandukanye byumishijwe, akaba ari mu dusorori dutandukanye, ibi byose byifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda, ivura indwara zitandukanye.

Umuntu wambaye ikote ry'umukara, umupira w'umweru, akaba ari gusoroma ibyatsi ari buze kwifashisha akora imiti itandukanye ya kinyarwanda ivura indwara.

Ikimera kiza gifite indabo nziza, iki kimera kikaba kifashishwa rimwe na rimwe mu kuvura inkorora cyangwa ibicurane kandi kinavura inzoka zo mu nda.

Ibi ni ibimera bikaba byifashishwa mu gutanga imiti ndetse no gukora indi miti ivura indwara zitandukanye cyane cyane inzoka zo mu nda.

Agasorori bashyizemo ibiti bitatu, igiti kimwe kikaba gifiteho n'ibabi riri mu ibara ry'icyatsi kikaba ari umuravumba, umuravumba kandi ukaba wifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Igiti kirekire gifite amababi, iki giti kikaba kivamo imiti yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye, amababi yacyo arifashishwa cyane.

Udukarito tugiye dutandukanye turi mu mabara nayo agiye atandukanye, akaba ari udukarito turimo imiti yaba ikozwe mu binini, ikozwe mu mafu. Ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa dutandukanye ndetse n'udukarito, turi mu mabara agiye atandukanye, harimo: umuhondo, umweru, icyatsi kibisi, utu ducupa tukaba turimo imiti ya Kinyarwanda yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Iri ni ipapayi rikaba rihiye neza imbere harimo imbuto zaryo ziri mu ibara ry'umukara, ipapayi rikaba rigira intungamubiri kuko rifasha igogora kugenda neza.

Iki ni ikimera gifite uturabo twiza turimo ibara ry'umuhondo n'iroza, iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera kiza cyane kikaba gitoshye, iki kimera kifashishwa mu gukora imiti gakondo cyangwa se iya Kinyarwanda ivura indwara zigiye zitandukanye.

Imbuto zigiye zitandukanye, igitunguru gikasemo kabiri, irongi cyangwa se indimu ikasemo kabiri, agacupa kari iruhande, hejuru hari ijambo ryanditse ngo ''baho neza TV''.

Igiti gifite amababi asa icyatsi, akaba ari umuravumba wifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda igiye itandukanye kandi ivura n'indwara zitandukanye.

Amoko y'ibimera atandukanye. Ibimera bikaba byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata abantu.

Iki ni ikimera gifite amababi atandukanye, kikaba ari ikimera kifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda ivura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'inzoka n'ibindi.

Udukarito dutatu dusa n'uturimo imiti ivura indwara zitandukanye harimo inzoka, harimo amibe, harimo umunaniro ndetse na siterese.

Agakarito gasa neza cyane kari mu ibara ry'iroza . Akaba ari agakarito karimo imiti y'ikigo bita Alliance ikaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa ndetse n'udukarito tukaba turimo imiti. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara yaba amarozi ,,yaba inzoka zo mu nda yabo imitima ndetse n'izindi.

Agacupa gapfundikiye kariho ikibabi kanditseho umuravumba, umuravumba ukaba wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye zizahaza abantu.

Imbuto zitandukanye ndetse n'indimu, urabona ko umutobe wazo wakamuriwe mu gasorori, umuntu akaba agiye kuwunywa kugira ngo afashe umubiri we kubona intungamubiri zihagije.

Uducupa turi mu ibara ry'umuhondo ndetse n'udukarito turi hirya y'aho, twanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, mu bigaragara harimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti kiza gifite amashami ndetse n'amabati atandukanye kikaba giteye ahandi hari ibimera bigiye bitandukanye, iki giti kikaba ari igiti cyifashishwa hakurwamo imiti gakondo ivura ibibazo byinshi bigiye bitandukanye.

Umugabo ndetse n'umugore bagiye gusoroma imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bakaba bari ahantu mu ishyamba harimo n'ibindi biti byinshi.

Uducupa dutandukanye, utureture n'utugufi. Ni mu mabara atandukanye, kaba turimo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu.

Ibi ni ibimera cyangwa se imiti gakondo byifashishwa bakora imiti ivura abantu mu buryo butandukanye ikaba yifashishwa mu buvuzi.

Aha hari ibimera bitandukanye, hari imbuto zitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho. Ibi bikaba bifasha umuntu ndetse n'umubiri kubona intungamubiri zihagije.

Ni icyapa kiriho amashusho menshi agiye atandukanye y'ibihingwa, ibyo bihingwa byose bikaba bigira uruhare mu buvuzi bwa gakondo, harimo tungurusumu, harimo tangawizi, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, kuko ibi byose ubona hano bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Uducupa dutandukanye duteretse mu mayetajeri, turimo imiti ya kinyarwanda dukunze kwita imiti gakondo, yifashishwa ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni ahantu heza cyane, ubona ko hahinze ibihingwa bigiye bitandukanye, ariko imbere yacu hari igihingwa cyiza gitoshye, ubona ko kimeze neza kandi gishishe. Iki gihingwa akaba ari kimwe mu bihingwa byifashishwa n'abaganga gakondo, bakoramo imiti karemano.

Agakarito karimo imiti ipfunyitse neza rwose urabona ko ifite isuku, ikaba icuruzwa n'ikigo bita Alliance gikorera hano mu Rwanda ndetse n'ahandi ku Isi hose.

Udukoresho turimo amoko y'ibimera, agiye atandukanye byumishijwe. Ibimera bikaba byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Agacupa kanditseho foreva furidomu. Aka gacupa kari mu ibara ry'umuhondo gafite umufuniko w'ibara ry'ubururu, karimo imiti yifashishwa mu buvuzi.

Ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye ndetse n'imbuto, hakaba hari agasekuru bifashisha basekura iyi miti kugira ngo bayivange, bakoremo umuti ufite ubukana uvura indwara.

Umugore urimo arasoroma ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi uyu umugore bisa nk'aho ari gushaka umuti kugira ngo yivure indwara zitandukanye cyane cyane inzoka zo mu nda.